Ni umugabo afite mikoro, yambaye ijiri ya MTN, ni umuhondo yanditseho MOMO, yambaye ishati irimo mo imbere ndetse afite n'isaha, arahagaze, yambaye umukandara w'umukara ndetse inyuma ye hari ikirango cya MTN kiri mu mabara y'umuhondo.

Imbuga ngari, irimo abantu batandukanye, abamama , abapapa, bari mu kazi bose, bari gutunganya umusaruro bawanika, ndetse hari n'abari mu bindi bikorwa bijyiye bitandukanye.

Ni umugabo uhagaze afite mikoro ari gutanga ikiganiro, hirya ye no hino hari abantu ari kubaha ikiganiro, hejuru ye hari idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'ibitambaro by'ubururu, umweru n'umuhondo, arasa neza aragaragara neza imbere yabo ariguha ikiganiro.

Hari abagabo babiri bishimye. Buri wese afite urupapuro mu ntoki. Bari gukorana mu biganza ndetse umwe yambaye ikote ry'umukara, undi nawe yambaye neza. Yambaye ikoti, yashyizemo karuvati, bose bagaragaza ko bishimye.

Ni ibicupa bine biri mu ibara ry'umuhondo biriho urupapuro rwanditseho koperative na ca, harimo amavuta na yo asa umuhondo.

Mu nyubako nini aho harimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo: ibyo kunywa, ibyo kurya, harimo televiziyo. Aho uje ahagana yicara agafata icyo kunywa ndetse ari no kureba amashusho kuri televiziyo y'ibintu ashaka kureba.

Abagabo babiri umucuruzi n'umuguzi, umucuruzi yambaye ishati irimo imirongo y'ubururu n'umweru, umuguzi yambaye umupira urimo uburongo bw'umweru, hari igikarito gisa umuhondo.

Mu rusengero harimo abantu benshi hari upfukamye imbere, abandi barahagaze, ni abana, ni abagabo, ni abamama imbere hari intebe itetseritseho imeza harimo n'igitambaro cy'umweru.

MU cyumba ndabona ameza mare magari ateretseho ibintu, ndabona hejuru y'ameza ku gikuta hariho televiziyo, ndabona harimo rido, harimo intebe, harimo mu cyumba kirimo amarangi kirimo parafu.

Ni mu nyubako nini, nziza harimo icyumba cyiza, kigaragara neza, giteguye, kirimo isuku, harimo igitanda gisashe neza, mu mashoka y'amabara y'umweru ndetse n'umukara, harasa neza, wahagera, ukaryama, ukaruhuka ndetse ukagubwa neza.

Ni mu cyumba harimo amarido y'umweru ndetse n'umukara, mu cyumba gisize amarangi y'umuhondo harimo parafo, hanyuma igitanda gishashe neza amashuka y'umweru gifite imisego.

Ni inzu nini, yubutse neza, isize amarangi y'umuhondo, ni hoteri ijya izamo urujya n'uruza rw'abantu, imeze neza iteye imbere, abayigana bose bayivamo bishimye kandi bakazanagaruka bishimye.

Turi mu nyubako nini mu cyumba kirimo rido ,icyumba giteye amarangi y'umuhondo, harimo n'igitanda gishashe neza, hariho imisego ibiri ndetse hameze neza.

Ni mu cyumba kiza, kirimo uburiri busashe neza, kuruhande rw'uburiri, hari televiziyo hejuru yuburiri hamanitse supanete, umuryango urimo irido nziza, n'icyumba giteye amarangi y'umweru ndetse kirimo na purafo

Ni mu isoko ni murujya ni uruza rw'abantu ndetse n'ibintu, harimo abacuruzi, harimo abaguzi baturutse impande n'impande, harimo imyenda imeze neza, harimo inkweto ndetse buri wese yaza agahaha.

ni nk' isoko, ni mu rujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga; bari gucuruza, umwe yazanye umusaruro we, yaje kuwuha undi atawufite, bari guhererekanya ndetse n'ahantu hateye imbere, harimo imyenda n'inkweto ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni mu nyubako nini imeze neza irimo isuku iteguye neza yo kwakiramo abantu ndetse uwageramo yakifuza kugaruka kandi akaza azanye n'abandi bitewe n'ubwiza buhari n'isuku ndetse n'ibintu biteguranye isuku.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto, harimo imodoka, moto iri gutwarwa n'umugabo yambaye ikoti ry'umuhondo, inkweto z'umuhondo na kasike z'umutuku, hirya hari amazu aseze irange ry'umuhondo.

Mu muhanda w'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari umugabo uri gutwara moto yambaye kasike z'umutuku, imbere ye gato hari umutaka wa MTN, hari n'inzu nini iri mu marange y'umuhondo.